Umugabo n'umugore bishimye, umugabo mukuru akaba yambaye ikote ryiza ry'umukara ndetse n'ipantaro yayo, umugore akaba yambaye agakanzu keza kagezweho, ari kumwe n'abana ndetse n'undi mumama uteruye umwana.

Ahantu hitaruye abaturage hakikijwe n'ibiti by'icyatsi, hakaba hari ibigega bitatu binini bitunganya amazi bityo abaturage bakabasha kubona amazi meza asukuye.

Ahantu hari abantu benshi bateraniye ku gikorwa runaka, hakaba hari itente ry'umweru n'inzu ifite umukaba w'umweru yubakishije amabuye, hakaba higanjemo abagore n'abagabo ndetse n'ababyeyi bahetse abana.

Abantu benshi bakuze bambaye amataburiya y'umweru bigaragara nk'aho aba bantu ari abajyanama b'ubuzima ku rwego rw'umudugudu, basuwe n'umuntu w'umuzungu wambaye ikote ry'umukara ndetse n'amarinete.

Ababyeyi baje gukingiza abana babo urukingo rw'indwara zitandukanye bakaba bicaye n'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, akaba ari gutanga izo nkingo iruhande rwe hakaba hari udupfunyika tw'impapuro, ku rundi ruhande nanone hakaba hari akameza gateretseho agasanduku, kabika ibikoresho bye.

Umuganga uri mu kazi ko gukura no kwita ku menyo, uyu muganga yambaye itaburiya y'umweru na ga z'umweru n'agapfukamunwa kajya gusa umweru na marinete mu mutwe, akaba ari guha serivise umurwayi wambaye agapira k'umutuku uryamye ku gitanda cy'ubururu.

Umukobwa mwiza cyane ufite imisatsi y'umukara, wambaye iherera ry'umweru, akaba aryamye kwa muganga, ari guhabwa serivisi, zijyanye no kwita ku menyo, umuganga uri kuzimuha akaba ari kwifashisha udukoresho twabugenewe.

Abagabo babiri bakuze bari muri siporo bombi bakaba bafite uducupa twa'amazi ya nile bakaba bishimye bambaye amashati y'imyeru n'amatiriningi y'imikara iruhande rwabo hakaba hari akajaride keza ndetse na poubeli yo gushyiramo imyanda.

Umumama ukuze wambaye amarinete ufite imisatsi yabaye imvi, wishimye akaba yambaye agapira keza k'umweru, akaba ari gukata imboga iruhande rwe hakaba hicaye umukobwa mwiza cyane na we akaba afite igisuperi kimwe gikozwe mu birahuri.

igikoresho kimeze nk'akameza gifite ikintu cy'ibara ry'ubururu ndetse n'amaguru ane kikaba gifite ibipimo bitandukanye nka santimetero mirongo itandatu n'umunani, santimetero mirongo icyenda n'imwe, snatimetero ijana n'imwe mu buhagarike.

Umusore wambaye agapira keza cyane k'akarokosite k'umweru akaba arambuye akaboko ke ariko agakandisha agatambaro keza gatose k'ubururu gafite isuku. Uyu musore akaba akunda ibintu bijyanye na siporo uko bigaragara.

Umusore wambaye agapira k'umukara n'agakabutura k'umweru karimo utubara tw'umutuku afite na telefone mu kiganza akaba yambaye agakomo ndetse n'isaha uri gukoreshwa siporo n'undi musore mugenzi we w'umuzungu.

Agakese ko kwa muganga kabamo imiti itandukanye ndetse n'ibikoresho, nk'urugero twavuga: amasizo, imiti igabanya ubukana bw'imvune n'ibindi.

Agacupa keza cyane k'umweru gacundikiye neza, kakaba karimo amagambo yanditse mu ibara ry'umukara ndetse hakaba harimo n'akarongo gatambitse gasa n'umuhondo, aka gacupa inyuma yaho n'aho gateretse hakaba ari ibara ry'umukara gusa.